Ndi kubona icyapa cyo kwamamaza gisa umutuku n'umweru, hariho umugore bita Melissa Elmore, ndetse na nimero ze, hakurya hakaba hari ibiti, igicu ndetse no munsi y'icyapaka handitseho imibare.

Ndikubona radiyanti, radiyanti, ni ikigo cy'igihugu cyangwa se compani ikorera mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, aho iyo kampani ibasha kuba yatanga serivisi zijyanye n'ubwishingizi ku baturage.

Ndi kubona ahantu bisa nk'aho handitse Sanirama. Aho hantu kandi byashoboka kuba bahakorera ibikorwa bigiye bitandukanye, aho ahantu bakorera ibijyanye n'ubwishingizi, batanga serivisi zijyanye n'ubwishingizi.

Ndikubona sikirinishuti ya facebook yo kuri ya kaunti ya goludeni fashoni shopu iri kwerekana isakoshi ya mama ndetse iyo telefoni ikaba yari ifite umuriro wa mirongo inani icyenda ku ijana yari ifite amavidimayiti n'ibindi byinshi.

Ndi kubona iduka ry'imyenda, ririmo inkweto zo gucuruza, ndetse n'ibikapu by'abagore, n'ikirahuri cyo kwirebamo, dukunze kwita indorerwamo, mu rugi rw'umweru ndetse n'umukara.

Ndabona ahantu bisa nk'aho hari imodoka. Iyo modoka kandi ishobora kuba yagurishwa, bitewe n'igiciro iriho kandi iyo modoka ni nshyashya...

Ndikubona ubwoko bwa bisi za vorukano z'umweru, iziri mu bwoko bwa Yundayi ziparitse ahantu hameze nko mu igaraje ebyiri, hajuru hari igisenge ndetse n'inzugi, hafi yayo hari borodire.

Ndi kubona amamodoka menshi aparitse ahagaze yo mu bwoko bwa toyota hakaba harimo intebe harimo aga televiziyo, torovizeri ndetse hakurya hari n'izindi.

Amafaranga menshi agiye atandukanye aho hari umugabo uri kuyabara, akaba afite igikoresho kimufasha kuyabara, undi ariko asa nk'aho ayamuhereza akayabaraka.

Ndi kubona ifoto y'ahantu hameze nkaho ari muri dayari hari amverope, amazi ya nili, hejuru harimo ibyansi ndetse na parafo, igikuta gisa ubururu kiriho igishushanyo k'inka.

Ndi kubona ibicuruzwa mvaruganda, harimo amata ndetse yawurute, ayo mata akaba ari ay'ikivuguto, ari mu iduka rya Kinazi dayari. Hakaba harimo agakarito gasa umuhondo ndetse n'utundi tubido dusa umweru.

N'ubu ndikubona amashirinja ya Tanzaniya igihumbi abiri arimo rimwe ririmo umugabo irindi rirmo etage kandi aya mafaranga akaba yenda gusa n'inote ya bibiri yo mu Rwanda.

Iyi foto irimo amafaranga y'amakongomani harimo icumi, makumyabiri, mirongo itanu, ijana, magana abiri, magana atanu ndetse n'igihumbi, aya mafaranga hamwe hariho ikinyoni ahandi hariho umugore ufite igiti abandi bari kwasa indi iriho amapironi ndetse n'intare.

Amafaranga aho ayo mafaranga ari amadolari n'amayero, aha ayo mafaranga niyo mafaranga ahenze ashobora kuba yakoreshwa mu bihugu bigiye bitandukanye.

Ndikubona umuntu ufite amafaranga mu ntoki y'amadolari ijana hijya ye hari karikatirisi ndetse n'andi mafaranga ubwoko bw'amashiringi.

Ndikubona etaje ya forex bureau yitwa vila forex na money transfer, imbere yaho hicaye umuntu wambaye agapira k'umweru wicaye ku ntebe ndetse n'undi wambaye agapira k'umweru uri guturuka imbere kampande hari ibyapa bya airtel ndetse n'ibindi.

Ku bona ifoto y'umuntu uri muri forekisi biro arik muri iyo forekisi biro wasanzemo abandi bantu babiri harimo umukobwa n'umuhungu iyo forekisi biro ifite urugi rufite imbaho, akabati k'imbaho ndtetse n'undi muntu uhagaze hirya ya'aho gatoya na parafo y'umweru.

Ndi kubona akabati kariho imitako, hariho amavaze, hariho ibiti ndetse n'udusahane n'uduseke biri ku gikuta, bifite dizayini isa nkaho ari yo muri saro, ubona yometse ku gikuta.

Ndi kubona intebe ebyiri ziri mu nzu hagati yazo harimo agataborete, gateretseho umutako w'igiti n'igitabo, ku gikuta hamanitseho amakadire ndetse n'ikirahure k'idirishya hariho n'gito, hasi y'intebe harimo na tapi ndetse no hasi ku isima.

Ndikubona intebe enye ndetse n'ameza agaragara nkaho ari mu ruganiro, ku gikuta hariho amashusho ari mu ikadire y'amafoto ndetse hasi hakaba hari umukeka n'amakaro.

Ndikubona meza iri mu bwoko bwa ribuyu, ifite ku mpande intebe enye iteretse ku muhanda ndi kubona kaburimbo, ikamyo ya fuso ndetse na moto hirya hari amapoto, insinga, igare hejuru gatoya ndi kubona na etaje.

Ndi kubona etaje isa umweru, iyo nzu hino yayo hakaba hari ubwogero rusange ndetse n'utundi tuntu two kwicaramo, hariho imitaka ndetse iyo nzu ikaba ifite ibirahure by'ubururu.

Ndi kubona mu muhanda wa kaburimbo ndetse hakurya hakaba hari imodoka iri kugenda n'inzu ebyiri zigeretse, imbere yazo hakaba hari icyapa cy'ubwishingizi ndetse n'ikindi cy'isaha.

Abantu babiri bicaye mu cyumba bisa nkaho bari kuganira ibintu bigiye bitandukanye, umwe yambaye ishati irimo utuntu tw'umutuku, undi yambaye ishati isa nk'umweru.

Ndikubona kubona ifoto yamamaza jiti banki harimo umuhungu wambaye ishati ufite impapuro mu ntoki imbere ye hateretse i mashini ndetse muri iyo foto hakab handitsemo gorowu yowa sevingi wivi jiti akawunti.

Ndi kubona ifoto yo mu isoko harimo inyanya utubase abantu bari gucuruza, iryo soko ririmo inkingi ndetse harimo intoryi, harimo pavuro harimo karoti, harimo abakecuru bambaye ibitenge ndetse n'ibitambaro mu mutwe.

Ndi kubona abantu bari mu isoko, harimo ibicuruzwa, harimo inyanya, intoryi oranje, karoti ndetse n'akabase n'utudobo, hakurya hakaba hari inkingi ndetse n'abandi bari mu isoko.

Ndi kubona abantu batatu bari mu isoko, imbere yabo hakaba hari ibicuruzwa birimo intoryi, pavuro, karoti, intoryi, igitunguru, imiteja, ndetse n'ibindi. Hakaba harimo abagabo babiri ndetse n'umugore wambaye umupira w'umutuku, undi mugabo yambaye umupira w'ubururu ndetse n'undi wambaye ishati.

Kubona ahantu hari ibintu bijyanye no kuboha, ibyo bintu kandi bikaba bishobora kuba byagurishirizwa mu masoko agiye atandukanye, ari mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali cyangwa se ahandi.

Umugore usa nk'aho ari kugenda ahantu, uwo mugore kandi akaba ari mu isoko, isoko ni ahantu ushobora kuba wajya ugiye nko kugura ibintu ibyo kurya bigiye bitandukanye ukabasha kuba wabikoresha.

Kubona ahantu mu isoko aho bisa nk'aho aho hantu mu isoko bahacururiza imyenda aho iyo myenda irimo imyenda ikozwe mu bitenge harimo n'amakanzu n'ibindi.

Ndi kubona ishami rya MTN muri expo, rifite icyapa cy'umuhondo cyanditseho MOMO, ndetse n'ijambo MTN, hakurya hakaba hari irindi ryanditseho dopec riri mu magambo y'ubururu.

Ndi kubona ahantu bisa nk'aho ari abakozi bambaye imipira isa, aho bashobora kuba bari kwakira abantu, aho kandi bakaba bakorera ikigo cy'igihugu cya MTN.

Ndi kubona ahantu bisa nkaho ari muri apariteme, apariteme ni inzu iba yarubatswe ari nini, ikabasha kuba yajyamo ibyumba, ibyo byumba bikaba ari byo ushobora kuba wakodeshwa cyangwa se ukakigura, bitewe n'uko ubishaka.

Ndikubona inzu y'umweru ikodeshwa isa umweru, ifite ibirahuri by'umukara, igipangu cy'umutuku ndetse ikaba iherereye Kimironko mu Izindiro.

Ndikubona ifoto irimo inzu ikodeshwa iri i Remera, icyumba kirimo n'aho bogereza ibyombo ndetse n'igikoni, iyo nzu ikaba ifite amadirishya ndikubona parafo, itara ndetse no hanze hari ahameze neza hari amabati y'umutuku.

Ndi kubona ahantu hasa nkaho hari inzu irimo icyumba kimwe, ubwogero bumwe, aho iyo nzu ikodeshwa ibihumbi magana abiri buri kwezi iherereye i Kigali Kacyiru.

Abagabo bari ahantu mu iduka, iryo duka rikaba risa nkaho ricuruza ibintu bigiye bitandukanya ibyo kwambara cyangwa se ibitari ibyo kwambara, bityo rero bakaba bari ahantu basa nk' abari kugura.

Ahantu bisa nkaho, aho hantu hakorerwa ubucuruzi, aho hantu kandi akaba ari mu nzu nini cyane, aho buri muntu agenda afitemo ibikorwa bigiye bitandukanye bijyanye n'ubucuruzi.

Kubona ahantu hasa nkaho aho hantu hakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, kandi ahantu hari amazu y'ubucuruzi menshi ari mu nzu nini cyane.

Ndi kubona ahantu bisa nk'aho ari inzu y'ubucuruzi aho iyo nzu ishobora kuba ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye aho ushobora kuba wagana bakagufasha.

Ndi kubona ifoto yo mu ijoro, hari supanete, itara, parafo n'abantu bahagaze ndetse n'utubati turi mu mpande y'iwe, munsi hari amakaro, harimo utubati tw'umweru...

Ifoto irimo firigo ndetse iyo firigo ikaba iri muri supamaketi ya mega ndetse n'ibindi bicuruzwa biri ku mpande n'akagari ko gutwaramo ibyo waguze ndetse ndikubona n'amakaro.

Ndikubona muri kontwari ya shopu ahantu hari imashini. terefone n'umuntu uri kuyikoresha ndetse hakurya hari amakarito ya niyu balensi y'inkweto, ribuku n'indi karito y'umutuku, aho hantu n'iduka ririmo inkweto ndetse n'ibindi bicuruzwa iyo kompiyuta ni iya Ecipi.